Iyi shusho iragaragaraho imbuga iriho isima yacukutse, imbere yayo hari Ivuriro St Jack Nyagatare, telefone zeru karindwi...

Iyi foto iragaragaraho abantu benshi ndetse n'inzego z'umutekano za polisi, hari icyapa cyandikishijwe amagambo y'umukara.